Ku bitero ni ahantu heza cyane. Bahavurira indwara zitandukanye Bahatangira imiti y'ubwoko bwose. Abarwayi babaha serivisi nziza.

Mu bitaro ni ahantu heza cyane, ahantu bavurira abarwayi, ahantu bisuzumishiriza, ahantu bashakira imiti ndetse n'ubuzima.

Ku bitaro bya kijyambere ahantu basuzumira abarwayi haba ari heza cyane, abahagiye bahava babahaye n'imiti bamaze kubavura.

Ibitaro bya Ruhengeri byubatse mu mujyi wa Musanze, biri hafi y'umuhanda wa kaburimbo. Uzamuka biri ibumoso ugana i Kigali umanuka biri iburyo iruhande rwa polisi.

Amateke ni igihingwa cyiza cyane ndayakunda araryoha, atanga umusaruro iyo akorewe neza akitabwaho cyane.

Mu buvuzi bwa kinyarwanda habamo ibyatsi by'ubwoko bwinshi, bifashisha mu buryo bwo kuvura indwara zitandukanye, ibyo byatsi biba bigizwe n'amoko atandukanye agirira abaturage akamaro.

Mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda, usanga bakoresha ibyatsi by'ubwoko bwinshi, niyo mpamvu, ibyatsi bigomba gukorerwa neza, bikabungabungwa.

Abanyarwanda bifashisha ibyatsi mu buryo bwo kuvura indwara zitandukanye, indwara z'uruhu ndetse n'izo mu mubiri.

Mu mucyo wa kinyarwanda habamo ibintu byinshi bitandukanye. Habamo abavuzi bavura bakoresheje ibyatsi bavura indwara zitandukanye indwara zo mu nda, indwara zifata uruhu, n'izindi nyinshi no kunga bunga n'abavunitse.

Mu muco wa kinyarwanda ahantu henshi cyane cyane bakunda gukoresha ubuvuzi bw'ibyatsi, kandi bikagirira ababikoresha umumaro mwinshi cyane.

Mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda habamo ibyatsi by'amoko yose, kandi bigirira ababikoresha akamaro kanini cyane.

Imiti ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye. Kuva kera Abanyarwanda ni yo bakoreshaga mu kwivuza, kandi abarwayi benshi bagakira.

Intoryi ni urubuto rwiza cyane ruri mu bwoko bw'imboga, intoryi ziraryoha cyane abantu barazikunda cyane.

Igiti ni cyiza cyane, kigira akamaro kanini cyane, gitanga umwuka mwiza wo guhumeka. Igiti kandi bagikoresha mu bintu byinshi bitandukanye.

Mu ishyamba habamo ibiti by'amoko menshi. Byifashishwa mu buryo bwo kuvura indwara zitandukanye. Umuzibaziba ni igiti cyiza cyane gifite akamaro kanini. Kivura indwara nyinshi.

Ibyatsi byinshi bigira umumaro mwinshi cyane. Kuko abavuzi gakondo babyifashisha mu buryo bwo kuvura indwara nyinshi zitandukanye.